Abantu bari mu murima barimo guhinga, ubona ko harimo abamamazabuhinzi. Ni byiza guhingira hamwe kubera ko bituma umusaruro utubuka, bityo abantu bagakorera hamwe kandi bakabona umusaruro mwiza ushimishije.

Abantu bari muri pepinyeri barimo kwita ku ngemwe za avoka. Ni byiza kwita ku ngemwe izo ari zo zose mu rwego rwo kugira ngo zizakure neza, hanyuma niziterwa zizakure bitagoranye. Ni byiza kurerera ingemwe zawe muri pepinyeri kuko haba hari abakozi babihuguriwe, bazi kuzitaho neza.

Abantu barimo gusiza bakora ingarani y'ahantu hazajya hamenwa imyanda, hakaba harimo n'abakozi b'Igisirikare cy'u Rwanda bambaye impuzankano ibaranga, ni byiza gukorera hamwe kugira ngo abantu bahuze imbaraga.

Abantu barimo guhinga bakaba barimo kugenda bataba imbuto bashyizemo, mu rwego rwo kugira ngo izamere hanyuma ikure babone umusaruro bifuza, inyuma yabo hakaba hari insina zihinze mu murima barimo guhingamo.

Insenda za piripiri, akaba ari insenda zitari zagera mu gihe cyo gusarurwa, kuko zitari zera neza. Urusenda ni rwiza kubera ko rutuma umubiri ushyuha, hanyuma umuntu akagira amaraso atembera neza mu mubiri.

Imbuto z'amoko atandukanye harimo indimu, ibinyomoro, amaronji ndetse n'amatunda. Ni byiza kurya imbuto kubera ko umuntu urya imbuto agira ubuzima bwiza kandi amara igihe kirekire.

Karoti nyinshi cyane zirunze ahantu hamwe, hakaba hari idodo, pavuro ndetse n'inyanya, ni byiza kurya imboga rwatsi kubera ko zikungahaye ku ntungamubiri zituma umuntu atarwara mu buryo bworoshye.

Ingurube iri mu kiraro. Akaba ari ingurube ikiri ntoya itaragera igihe cyo kwima. Ingurube ni itungo ryiza rishobora guteza umuntu imbere, kuko ibwagura ibibwana byinshi kandi ibyara mu gihe kitarambiranye.

Ihene nyinshi ziri ahantu hamwe, bakaba bagiye bazizirika amaguru mu rwego rwo kugira ngo zitaza gutoroka zikabacika. Ihene ni amatungo meza cyane ashobora guteza umuntu imbere kubera ko ihene zirahenda cyane, umuntu uzifite aba afite amafaranga menshi cyane.

Ibigori bimanitse ku bihangari kugira byume neza, bityo bizahungurwe byumye neza, ni ngombwa ko ibigori bisarurwa bikamanikwa ahantu ku zuba, kugira ngo izuba ribiveho byume neza, bityo bizagire intete nziza kandi byume neza.

Inka ihagaze imbere y'inzu isakaje amategura, ikaba irimo kurisha hari umugabo urimo kuza ayisanga wambaye isarubeti ndetse na bote ufite ikintu muntoki kimeze nk'urushinge ubona ko aje kuyikingira.